Guhinga neza bituma havamo umusaruro ushimishije, aho usanga ibirayi byera neza bakabijyana ku masoko hirya no hino bagakuramo amafaranga.

Guhinga amashu ni byiza cane, iyo wayitayeho ukayatera imiti yica udusimba, akura neza bakayajyana ku isoko hakavamo amafaranga atubutse.

Depo y'ibicuruzwa bitandukanye aho usanga urujya nuruza rw'abantu baza kuharangura kugira ngo babashe kubona amafaranga yo kwiteza imbere mu buzima busanzwe.

Ibyatsi ni byinshi cyane, bifasha abaturage mu kubona ifumbire. Babisasira inka ndetse n'andi matungo. Ni ingirakamaro cane ku bantu hirya no hino batandukanye.

Umuceri ni mwiza cane bawucuruza ku masoko, abaturage hirya no hino bakaza kuwugura akawujyana iwabo kuwuteka, bigira intungamubiri nyinshi cane.

Inyama y'amafi ni nziza cyane igira intungamubiri kenshi cane mu bana bagakora neza abari mu mirire mibi babasha kubaho neza bakagira ibipimo byiza cane.

Gucuruza amafi nibyiza cane birungura havamo amafaranga menshi, atandukanye yo kwiteza imbere mu buzima busanzwe aho usanga urujya n'uruza rw'abantu baza kuyagura.

Ibiryo ni byiza cane bituma umuntu amera neza bikunzwe n'abana ndetse n'abantu bakuru harimo amafi, amakaroni, bigira inungamubiri nyinshi.

Amafi ni meza, ni ingirakamaro. Yokeje, aho usanga abantu hirya no hino bayakunda cyane. Bakajya kuyagura mu bubari butandukanye. Ku cyokezo.

Amafi ni meza cane agira intungamubiri ku baturage ndetse n'abana bagabasha gukura neza bayajana ku masoko hijya no hino bagakuramo amafaranga yo kwiteza imbere.

Amafi ni meza cyane. Bayabika mu kibiko ahantu hakonje cyane kugira ngo atabasha kugira ikibazo, abaturage bakaza kuyagura ameze neza.

Amafi ni meza cane, abaturage barayakunda, ndetse n’abana. Agira intungamubiri nyinshi cane. Iyo uyamaza igihe, uyashyira muri firigo kugira ngo atagira ikibazo.

Amafi ni meza akunzwe n'abaturage benshi cane, aho usanga urujya n'uruza rw'abantu baja kuyagura, agira intungamubiri ku bana ndetse n'abantu bakuru bagakura neza cane.

Insambaza ni nziza cane zikundwa n'abaturage baturutse hirya no hino ndetse n'abana, zigira intungamubiri. Iyo bamaze kuziroba bazijana ku masoko bagakuramo amafaranga.

Amapera n'ikimera cyiza cane kivamo imiti itandukanye ivura abana ndetse n'abantu bakuru iyohezeho amapera barayajya bakayajyana ku masoko bakayagurisha.

Ibigorigori bidufitiye akamaro kenshi, iyo tumaze gusarura ibigori tukabitema bikokora tandukana n'ibiti byabyo ukabirunda, hamwe bivamo ifumbire yo kongera guhingisha mu kindi gihe. Bifitiye akamaro ko kubona ifumbire.

Ibihingwa by'ibitunguru ndetse n'imboga ni byiza cane, iyo byeze babijyana ku masoko, bagakuramo amafaranga menshi yo kwiteza imbere, ndetse babikoresha mu rugo bari gutegura ifunguro.

Umwuga w'ubuhinzi ni mwiza cane. Ibitunguru iyo byeze babishyira mu biryo bakabijana ku masoko hirya no hino, bagakuramo amafaranga menshi yo kwiteza imbere.

Gusasira urutoki ni byiza cane, aho usanga iyo byeze, havamo umusaruro utubutse, bakabijana ku masoko hirya no hino, bagakuramo amafaranga menshi, akabasha kwiteza imbere.

Umwuga w'umuhinzi ni mwiza cane. Habamo ibintu bitandukanye: ibinyomoro, insina. Aho usanga babikorera neza kugira ngo bibashe kwera byiza.

Inanasi ni nziza cane zigira umumaro mu mubiri ku bana ndetse n'abantu bakuru, bazijana ku masoko kuzigurisha kugira ngo havemo amafaranga yo kwiteza imbere.

Ibigori ni byiza cane , bikunzwe n'abaturage hirya no hino iyo babyanitse bikuma havamo ifu y'igikoma kikabasha kugira intungamubiri ku bana benshi cane.

Icayi ni kimwe mu gihingwa gikonjwe cyane. Aho usanga urujya n'uruza rw'abantu bari mu murima bari ku gihingi. Cyamara kwera bakakinaga, bakakijyana ku ruganda bakagitunganya neza.

Inkwavu ni zimwe mu matungo meza cane akunzwe n'abantu, hirya no hino barayorora agatanga ifumbire ndetse bakayagijana, ku masoko hirya no hino akavamo amafaranga.

Igihingwa cy'ibigori ni cyiza cane, aho usanga abaturage hirya no hino babihinga bikera neza, bakabijyana ku masoko atandukanye hirya no hino, hakavamo amafaranga yo kwiteza imbere.

Umwuga w'ubuhinzi ni mwiza cane aho usanga abamama bahurira mu mirima bari kwita ku mashu, kugira ngo abashe gukura neza, barayasasira, yakwera bakayajyana ku masoko.

Urusenda ni igihingwa cyiza cane kigira intungamubiri aho usanga bagihinga ,cyakwera bakakijana ku masoko hijya no hino, urujya n'uruza rw'abantu bakazigura.

Ipapayi ni nziza cyane ndetse igira inungamubiri nyinshi cane haba ku bana ndetse n'abanu bakuru, amababi y'ipapayi ni meza cane avura indwara nyinshi zitandukanye.

Intogi ni nziza cyane zikunzwe n'abaturage benshi batandukanye, aho usanga urujya n'uruza rw'abantu bajya kuzihaha mu masoko, baziteka mu biryo zigira intungamubiri nyinshi.

Amaronje ni urubuto rwiza cane rukundwa n'abantu benshi, kandi rugira intungamubiri. Haba ku bantu bakuru ndetse n'abana batandukanye.

Guhinga ni byiza cane aho usanga abaturage hirya no hino baribumbiye hamwe bagashiramo ibihingwa bitandukanye harimo ibirayi, bakabasha kwiteza imbere.

Mu isoko habamo ibiribwa bitandukanye aho usanga urujya n'uruza rw'abantu baza kubigura harimo: inyanya, imboga, amavuta ,imyembe ndetse n'ibindi.

Ibicuruzwa by'ibiribwa bitandukanye, harimo: inyanya, imyembe, wotameloni, mayoneze n'ibindi byinshi cane, aho usanga urujya n'uruza rw'abantu bajya ku bihaha.

Ibitoki ni byiza cane. Babijyana ku masoko kugira ngo abaturage baze kubigura.

Amashu ni kimwe mu bihingwa byiza cane. Ni ingirakamaro mu mibiri yacu, haba ku bana ndetse n'abantu bakuru. Bayajyana ku masoko hiya no hino bakabasha kuvamo amafaranga.

Urubuto ni ingirakamaro cane. Ruvura indwara nyinshi zitandukanye aho usanga abaturage hijya no hino bajya kuzishaka ku masoko kugira ngo babashe kuzikoresha.

Ibirayi ni byiza cane. Bikunzwe n'abaturage benshi hirya no hino. Aho usanga urujya n'uruza rw'abantu bajya kugura:abana n'abantu bakuru.

Igihingwa cy'ibirayi ni cyiza cane. Aho usanga iyo byeze babijana ku masoko yo hirya no hino, kugira ngo babashe kubona amafaranga yo kwiteza imbere.

Igihingwa cy'umuceri ntikizayiza cane aho usanga iyo ceze bakivana ku masoko atandukanye, hijya no hino hakavamo amafaranga atubutse, yo kwiteza imbere mu buzima.

Guhinga kijyambere nibyiza cane bituma imyaka yera ne, za abaturage bakayijyana mu masoko bakabonamo amafaranga ashimishije, aho usanga urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ahantu hamwe bakaza kwita ku mirima.

Guca indinganire ni byiza cane， birinda amasuri iyo imvura yaguye， usanga imyaka yera neza igakura neza cane， ukabijana ku masoko hirya no hino.

Umufuka w'amasaka, umufuka w'ibigori, umufuka w'ibishyimbo, aho usanga bitondetse ku mironko, babicuruza kugira babashe kubona amafaranga.

Imyumbati ni kimwe mu biribwa byiza cyane, bitera imbaraga, aho usanga abaturage bayijyana ku masoko hijya no hino, kugira ngo babashe gukuramo amafaranga.

Amashaza ni meza cane araryoha iyo bayatetse akayavanga n'ibindi biryo bitandukanye, ni kimwe mu binyampeke bigira intungamubiri cane, ayajyana no ku masoko bagakuramo amafaranga.

Guca indinganire ni byiza cane, aho usanga abaturage hirya no hino, babikora neza iyo imvura iguye n'imyaka irakomeza ikera neza cane.

Pavuro ni igihingwa ciza cane, gikunzwe n'abaturage batandukanye, bagikatira mu biryo zigahumura neza ndetse bakazijyana ku masoko hirya no hino atandukanye.

Ibihingwa ni byiza cane. Iyo bihinze neza bakabiha ifumbire bikura neza bigashisha, byakwera bakabijana ku masoko hirya no hino kubigurisha.

Ubuhinzi ni bwiza cyane, buteza imbere abaturage hirya no hino, habamo ibihingwa byinshi bitandukanye: ibigori, ibishyimbo, bya kwera bakabijyana ku masoko hirya no hino.

Igihingwa cy'ibigori ni cyiza cane，gihingwa n'abaturage benshi batandukanye，gikura neza iyo wagihaye ifumbire kikera， bakijyana ku masoko hirya no hino.

Abaturage bishize hamwe mu kwiteza imbere bahinga ibihingwa bitandukanye byinshi harimo:ibigori, ibishimbo babijana ku masoko ari hirya no hino.

Imiteja ni myiza cane, bayijana ku masoko hijya no hino, bakabasha gukuramo amafaranga yo kwiteza imbere mu buryo butandukanye, bayiteka mu biryo bikabasha kujyoha neza cane.

Ihene ni itungo ryiza rikunzwe kororwa n'abaturage bari hijya no hino batandukanye, igira ifumbire ndetse igatanga n'amafaranga iyo bayijyanye ku isoko.

Indimu ni urubuto rwiza cane ruhingwa bakarugurisha rukavamo amafaranga, ivura indwara nyinshi zitandukanye ku bana ndetse n'abantu bakuru.

Ibijumba ni byiza cane ni bimwe mu biryo bitera imbaraga ku bantu bakuru ndetse n'abana, aho usanga iyo byeze babijyana ku masoko hijya no hino hakavamo amafaranga atubutse.

Voka ni kimwe mu gihingwa ciza cane ni urubuto rwiza rukunzwe n'abantu bose, b'ingeri zitandukanye harimo abana, ndetse n'abantu bakuru zigira intungamubiri zivamo amavuta yo kwisiga.

Ibijumba bitetse ni byiza cane ni kimwe mu biribwa bitera imbaraga, abantu bakuru barabikunda ndetse n'abana babijyana no ku imasoko, bakabigurisha bigatanga amafaranga yo kwiteza imbere.

Guca indinganire ni byiza , bituma hataba amasuri mu gihe imvura iguye , imyaka yera neza ndetse igakura neza cane abaturage bose bakunze kubikora.

Guhinga ni byiza ukita ku bigori neza ukabyuhira ukabitera imiti, kugira ngo udusimba tubashe kuvaho bikera neza ukabijyana ku masoko.

Avoka n' nziza cyane iri mu rubuto rukundwa n'abaturage hirya no hino yaba n'abana havamo amavuta yo kwisiga uruhu rukamera neza cane, ndetse bakajyana no ku masoko.

Igihingwa cy'amateke ni meza cane ni kimwe mu biribwa bitera imbaraga ku bantu bakuru ndetse n'abana, iyo yeze bayajyana ku masoko bakagurisha bagakuramo amafaranga yo kwiteza imbere.

Ingurube ni zimwe mu matungo akunzwe cane. Abaturage bazikuramo ifumbire, bakazijyana ku masoko hirya no hino bakazigurisha. Bagakuramo amafaranga yo kwiteza imbere.

Inka ni zimwe mu matungo atunzwe n'abaturage benshi cane atanga ifumbire bakajya guhinga ibihingwa kugira ngo babashe kweza, itanga amata bakayajyana ku masoko bakayagurisha.

Inka ni itungo ryiza cyane abaturage bakunze kuryorora. Ritanga ifumbire ndetse zitanga n'amata, bakayajyana ku isoko bakayagurisha hakavamo amafaranga yo kwiteza imbere.

Amatunda ni meza cyane. Agira intungamubiri ku bana ndetse n'abantu bakuru. Iyo yeze bayajyana ku masoko bakayagurisha akavamo amafaranga menshi cyane agafasha abaturage.

Inkwavu ni zimwe mu matungo meza cane, aho usanga atanga ifumbire, akabyara utwana, tukazijyana ku masoko tukazigurisha, hakavamo amafaranga menshi cane.

Igihingwa cy'umuceri ni cyiza cane, barawuhinga bakawusarura, bakawugira neza cane, bakawujyana ku masoko hijya no hino atandukanye, hakavamo amafaranga.

Imyumbati ni myiza cane, itera imbaraga umubiri ni ingirakamaro, bayijana ku masoko atandukanye hirya no hino ikabaha amafaranga yo kwiteza imbere mu buzima busanzwe.

Guhinga ni byiza cane bituma umuntu yiteza imbere, aho usanga amashu ari meza cane yakwera bakayajana ku masoko hakavamo amafaranga menshi cane.

Inyanya n'igihingwa kiza cane kera neza aho usanga abaturage hirya no hino bakunze kuzihinga zakwera bakazijana ku masoko atandukanye.

Igihingwa c'ibigori byumye ni byiza cane babijana ku masoko, hirya no hino bakuramo amafaranga ndetse bakuramo ifu ya Kawunga n'igikoma abana bakamera neza.

Indabyo nziza zihumura neza zitanga umwuka mwiza, abantu bakabasha guhumeka neza, zivamo imiti itandukanye ivura abana ndetse n'abantu bakuru.

Amatunda ni urubuto rwiza rukunzwe n'abaturage benshi cane, aho usanga iyo yeze bayasarura bakayajana mu masoko hirya no hino, agira intungamubiri ku bana ndetse n'abantu bakuru.

Kuhira imyaka ni byiza cane ukayitera imiti kugira ngo ubusimba bubashe kuvaho, igakura neza bakayijana mu isoko hirya no hino kugira ngo babashe kwiteza imbere.

Imbuto ni nziza, zikunze gukoreshwa n'abaturage hirya no hino. Haba ku bana bari mu mirire mibi bakura neza cane, bakabaho neza.

Iri rongi rikunzwe n'abantu benshi batandukanye cane, rigira intungamubiri ku bana ndetse n'abantu bakuru， barijyana ku masoko， hakavamo amafaranga yo kwiteza imbere.

Inkoko y'isake ni nziza cyane. Ikunzwe korora n'abaturage hirya no hino batandukanye Bayijyana ku isoko bakayigurisha ikavamo amafaranga.

Ibicuruzwa nk'avoka, imineke, inyanya. Bikenerwa n'abaturage benshi cane. Bigira intungamubiri ku bana ndetse n'abantu bakuru, aho usanga urujya n'uruza rw'abantu bajya kubigura.

Igihingwa cy'ibigori ni cyiza cane gikunzwe n'abaturage, benshi batandukanye aho usanga ibigori bibisi, babyutsa bakabirya ndetse bakanabiteka.

Ikawa nimwe mu gihingwa ikunzwe cyane hirya no hino, bayihinga mu mirima myinshi itandukanye, ivamo amafaranga menshi cyane, icyari cyayo kiba kiryoshye.

Ibishimbo ni byiza cane ni bimwe mu binyampeke bitera imbaraga mu mubiri, babijana ku masoko hirya no hino bakabigurisha bagakuramo amafaranga yo kwiteza imbere.

Isoko ricururizwamo ibirayi ni byiza cane bikunzwe n'abaturage ndetse n'abana, aho usanga baja kubihaha kugira ngo babashe kumera neza cane.

umwuga w'ubuhinzi ni mwiza cane ufasha abaturage mu kwiteza imbere aho usanga bahinga ibintu bitandukanye harimo ibigori n'amashu bakabyuhira kugira ngo bibashe kwera neza

Amatunda ni urubuto rwiza cane, agira intungamubiri kubana agafasha abari mu mirire mibi bakabasha gukura neza, bakagira ubuzima bwiza cyane.

Imyumbati ni myiza, ni kimwe mu biribwa bitera imbaraga, aho uyisanga ku masoko hirya no hino, igatanga amafaranga yo kwiteza imbere mu buzima busanzwe.

Amasaka ni meza mu buzima bwacu bwa buri munsi, havamo ibintu byinshi bitandukanye; urugero, ifu y'igikoma, ubushera n'inzoga.

Amateke ni igihingwa cyiza cane. Agira intungamubiri, atera imbaraga ku bana ndetse n'abantu bakuru. Iyo yeze bayajana ku masoko hirya no hino bagakuramo amafaranga yo kwishurira abanyeshuri.

Imashini ikaranga ibigori ikabituritsa bakunze kwita injugu, zikunzwe n'abana benshi batandukanye ndetse n'abantu bakuru, aho usanga urujya n'uruza rw'abantu bajya kubigura.

Ibishyimbo ni igihingwa cyiza cane gikunzwe n'abaturage hijya no hino, ni ikinyampeke kigira intungamubiri mu bana ndetse n'abantu bakuru babijyana ku masoko bagakuramo amafaranga.

Imiteja ni myiza cane ikundwa n'abaturage batandukanye, barayihinga bakayisarura bakayijyana ku masoko hirya no hino, bayiteka mu biryo bikaryoha cane.

Imiteja ni myiza cane. Ikunzwe n'abaturage hijya no hino, ni intungamubiri mu buzima bwacu aho usanga bayijana ku masoko hijya no hino bakabasha gukuramo amafaranga.

Amashaza ni kimwe mu bihingwa byiza cane, aho usanga abaturage babihinga byakwera bakabijyana ku masoko agatanga amafaranga, yokwiteza imbere mu bintu bitandukanye.

Umwuga w'ubuhinzi ni mwiza cane. Aho usanga abaturage hirya no hino bahinga ibishyimbo byakera bikuma, bakabihura kugira ngo havemo byiza babijyane ku masoko.

Ubunyobwa ni kimwe mu gihingwa gikundwa n'abaturage. Babukoresha mu buryo butandukanye, harimo kubuteka mu biryo, kubukaranga ukabuhekenya, bugira intungamubiri nyinshi cyane.

Ibishimbo ni ibihingwa byiza cane by'ibinyampeke dukunze kwifashisha turi gushaka indyo yuzuye kandi bikajanwa ku masoko ari hirya no hino.

Kugosora ibihingwa ni byiza cane. Bituma havamo imyanda ikajya hasi, ibindi bakabijana ku masoko bimeze neza bakabigura amafaranga atubutse.

Igihwagari ni kimwe mu bi, mu gihingwa cyiza cane, kigira intungamubiri nyinshi. Kivamo ibintu bitandukanye harimo: amavuta, ubunyobwa, mbese wagiteka no mu biryo.

Ikigori kibisi ni cyiza cane, baracyotsa, bakagiteka, kikagira intungamubiri nyinshi zitandukanye, aho usanga gikunzwe n'abaturage benshi cane batandukanye.

Ibigori ni byiza cane bigira intungamubiri. Barabyanika bikuma, bagakuramo ifu y'igikoma, abana bakakinywa, bagakura neza, bakagira ubuzima bwiza cane.

Ibigori byumye ni ingirakamaro. Babijana ku masoko hirya no hino， bakabigurisha， bagakuramo amafaranga yo kwiteza imbere， ndetse babijana no mu rugo bakabikuramo ifu y'igikoma.

Ubunyobwa ni igihingwa gikunzwe cyane n'ingeri zose: abagabo, abagore, uwabuhinze ndetse n'uwabuguze. Bugira akamaro kenshi: butanga amafaranga ku isoko, buvamo ifu yo gushyira mu biryo, ahantu hose ni ingirakamaro.

Igihingwa cy'amasaka ni cyiza cyane aho usanga abaturage hirya no hino bakunze kugihinga, iyo yeze bayajyana ku isoko hakavamo amafaranga yo kwiteza imbere ndetse havamo n'umutsima.

Guhinga nibyiza cane. Iyo byeze urabisarura ukabihunika mu kigega biri mu mifuka kugira ngo bidapfa bikamera neza cane.

Umuceri ni mwiza cane，bawuhinga mu gishanga，ahantu hari amazi， uvamo amafaranga menshi， aho usanga urujya n'uruza rw'abaturage hirya no hino，bakunze kuwuhinga，iyo weze bawujyana mu isoko.

Ibigori byumye nibyiza cane barabyanika neza bakabijana ku masoko atandukanye hirya no hino bagakuramo amafaranga yo kwiteza imbere mu buzima busanzwe.

Ibigori bihingwa n'abaturage benshi cane aho usanga bakora koperative. Bagahuriza hamwe bakabishyira ahantu, hatandukanye bikabasha kuhumira neza.

Igihingwa c'amasaka ni ciza cane. Abaturage barayakunda. Aho usanga urujya n'uruza rw'abamama bari kuyagosora. Kugira ngo abashe kumera neza, bayajyane ku masoko hijya no hino.

Ubunyobwa ni igihingwa cyiza cane bakunze kubuhinga mu mirima hijya no hino itandukanye ,iyo bweze babujyana ku masoko bagakuramo amafaranga yo kwiteza imbere mu buzima busanzwe.

Ingurube ni itungo ryiza cane ritanga ifumbire ribwagura ibyana ukabijyana ku masoko atandukanye hijya no hino hakavamo amafaranga yo kwiteza imbere.

Amagi ni meza cane bayajana ku masoko hirya no hino bagakuramo amafaranga yo kwiteza imbere. Agira intungamubiri ku bana bari mu mirire mibi bakabashakura neza.

Ubworozi ni bwiza cyane. Ni umwuga ukunze gukoreshwa n'abaturage benshi cyane bo hirya no hino. Havamo amafaranga yo kwiteza imbere mu bintu byinshi bitandukanye.

Ubworozi ni bwiza cane aho usanga abaturage bakunze kuzorora bazijyana mu mirima hijya no hino kugira ngo zibashe kujya ubwatsi zihage neza.

Inka ni zimwe mu matungo meza cane akunzwe korora n'abaturage bo hijya no hino, atanga ifumbire ndetse agatanga amata meza cane abana bakayanywa bakabasha kuva mu mirire mibi bagakura neza.

Amaryi ni meza cyane. Ni ingirakamaro ku bana bari mu mirire mibi. Bakura neza, aho usanga bayajana ku masoko bagakuramo amafaranga yo kwiteza imbere mu buzima busanzwe.

Umuganga ushinzwe amatungo asuzuma inka, akareba ikibazo zifite, akabasha kuzitera inshinge kugira ngo zibashe kubaho neza, zigakura nta kibazo.

Ingurube ni itungo ryiza cane, itanga ifumbire, ikabwagura ibyana byinshi, ukabasha gukuramo amafaranga yo kwiteza imbere mu bintu byinshi bitandukanye cane.

Ihene ni nziza cane zikunzwe n'abaturage benshi batandukanye aho usanga bazijyana k' umuveterineri akazisuzuma, akaziha ibinini, zikabasha gukura neza cane.

Ingurube ni itungo ryiza cane ritanga ifumbire, abaturage bakarihingisha imyaka ikera neza ndetse ibwagura ibyana byinshi bakabijyana ku masoko atandukanye.

Inka ni zimwe mu matungo akunzwe cane n'abaturage, hirya no hino batanga ifumbire bagahinga ibihingwa bikera neza cane, hakavamowo amata meza aryoseshye.

Ingurube ni itungo ryiza cyane. Ribwagura ibyana byinshi, rigatanga amafaranga menshi yo kwiteza imbere mu buzima busanzwe. Ritanga ifumbire ryo guhingisha imyaka hirya no hino.

Inka y'inzungu ni nziza cane. Abaturage barayikunda. Ivamo umukamo ushimishije cane. Amata bakayajyana ku masoko hirya no hino. Ndetse itanga n'ifumbire jyiza.

Inkwavu ni nziza cane zirya ubwatsi butoshye bworoshe, iyo zikuze bazijana ku masoko kuzigurisha, bagakuramo amafaranga yo kwishyurira abanyeshuri ndetse n'ibindi.

Inka ni itungo ryiza cane rikunze kororwa n'abaturage hijya no hino batandukanye. Itanga ifumbire, amata bakayajana ku masoko hijya no hino bagakuramo amafaranga yo kwiteza imbere.

Amagi ni meza cane ava ku nkoko, aho usanga abaturage bayakunda cane bayajyana ku masoko hirya no hino bagakuramo amafaranga yo kwiteza imbere ndetse ni intungamubiri ku bana.

Ingagi ni nziza cyane zisurwa n'abantu benshi batandukanye haba abazungu, cyangwa abanyagwanda bakazisigira amadovize ni ingirakamaro cane.

Inyoni ni akanyamaswa keza cane kagaragara neza iyo kaguruka kaba kishimye cane, kajya gushaka ibyo kurya hirya no hino kazi ubwenge bwinshi cane.

Inyoni ni nziza cane. Ni inyamaswa izi ubwenge ibasha kwiyubakira aho kuba. Mu gihe imvura iguye, ijyamo ikugamamo. Ndetse iteramo amagi akavamo utwana twazo.

Akanyamasyo ni ikanyamaswa keza cane, kagendera hasi gakururuka cane. Gafite igikono cyo hejuru, ku buryo ikintu kikagwiririye kihisha muri cya gikono cyako.